Inyubako ya guverinoma igeretse kabiri , ku igorofa rya kabiri hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, hari umugabo uri kumanuka wambaye ikoti ry'ubururu ndetse n'ishati y'umweru ,ari kumanuka yerekeza ku igorofa rya mbere.